Inama yahuje abayobozi n'urubyiruko rutandukanye, yasojwe n'imbyino ndetse n'indirimbo zo gususurutsa abari bitabiriye iyi nama.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ibituruka ku ngufu z'amashanyarazi cyashyizeho uburyo bwiza bwo guha buri muturage akamashini kaba ari umuriro mu rwego rwo kumenya imikoreshereze y'umuriro ndetse no kumenya niba yakongeramo undi muriro bimworoheye.

Abakora akazi ko gutwara abagenzi mu buryo rusange barasabwa kubahiriza ibi bikurikira: kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse n'abagenzi batwaye mu buryo izo modoka zitwara abagenzi, bakubahiriza uburenganzira bwabo.

Umubyeyi uhagarariye umutekano mu kagari, arakangurira abaturage ko bagomba kujya batangira amakuru ku gihe mu rwego rwo kwirinda imirwano, impfu ndetse n'andi makimbirane aterwa n'umutekano mukeya.

Inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage, baganiriye ku buryo umuturage agiye kuba ijisho rya mugenzi we mu rwego rwo gukaza umutekano mu gace batuyemo.

Mu rwego rwo guteza imbere siporo, ababyeyi barakangurirwa gushishikariza abana ndetse no kubakundisha imikino igiye itandukanye. Ibi bifasha umwana gukura neza mu mitekerereze ndetse no mu gihagararo.

Bimwe mu bishimwa n'abaturage harimo imihanda leta yagiye yubaka, mu bice by'icyaro, ibi bifasha abaturage kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro ni bamwe mu binubira imihanda mibi ndetse idakoze neza. Leta mu rwego rwo guteza Igihugu imbere ndetse n'ibidukikije n'ibikorwa remezo, yashyize imbaraga mu kubaka imihanda yo mu cyaro.